Umwana ugize amezi atatu ajyanwa kwa muganga kugira ngo akingirwe indwara nka kanseri, mburugu, iseru, n'izindi nyinshi z'amoko atandukanye.

Abanyeshuri, bambaye iniforume z'ubururu, bafite ibikombe mu ntoki, bose bashungereye, baje kureba amazi meza, ari mu kagega k'ubururu, gatonya, inyuma yaho, hari ibiti byinshi, hari imisozi, myiza, iriho amashyamba, y'icyatsi n'ibiti byinshi.

Abayobozi b'inzego zitandukanye bari mu nama n'abanyamahanga basa nk'abavuye mu gihugu cy'u Buhinde, aho ku meza hari uducupa tw'amazi mbese buri wese afite ikaramu n'agapapuro ko kwandikaho.

Abana babiri bishimye kubera ko bahawe impano n'ikigo gishinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana ku Isi, ahantu hatewe ibiza ndetse n'intambara mu bihugu binyuranye bya Afurika.

Urutonde rw'amafoto agomba gufatwa, ibyerekeye ubuzima bwo mu mutwe, kumenya gukontorora amaranga mutima, kurwanya agahinda gakabije. Kumenya indwara, kuzirinda, kwikingiza, ibyerekeye imyororokere, uburyo twakwirinda gutwara inda zidateganyijwe.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu barereka abayobozi bashinzwe ubuzima ku Isi, uburyo bakora imiti cyangwa inkingo z'indwara zananiranye mu Rwanda.

Umwana wambaye umupira w'umutuku aravoma ku ivomero rishyashya, bigaragara ko ari ahantu hafite amazi meza mu gikombe k'ibara ry'umuhondo, yishimye kubera ko bazanye ikintu kidasanzwe mu gace atuyemo.

Umwana w'umukobwa uri kuvomera ku ivomero byabugenewe ritanga amazi meza asukuye, afite ibivomesho by'ibara ry'umuhondo, ahantu ari hari ibyatsi byinshi.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya wishimye, uri gukaraba intoki ku ivomero rya kijyambere amazi meza asukuye. Rikikijwe n'ibyatsi, n'abaterankunga banditse ku ivomero batewe inkunga mu kubaka iryo ivomero.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, aravoma ku ivomero ryabugenewe rifite amazi asukuye mu kajerekani k'umweru, kimwe na bagenzi be bazanye aho ngaho.

Ikigomero cy'amazi gikoze icyambu gituma amafi aza, ndetse abantu bakabona amazi yo kunywa asukuye asa neza bitabasabye kujya kuyashaka ahantu kure.

Umubyeyi wambaye ibitenge by'umutuku ahetse umwana ndetse ari kuvoma anamesa ahantu ku isoko cyangwa ivomero, byubakiwe abaturage bategereye imigi.

Ikigo gishinzwe ku kwita ku bantu bahuye n'ibibazo kubera inkangu cyangwa se ibyago by'intambara, babaha ibyo kwambara ibyo kuraramo ibyo kurya ndetse babahumuriza.

Abaturage bo mu gace runaka bishimiye kwakira ivomero rishya bashyiraho amajerekani y'ibara ry'umuhondo amazi akaza ari meza. Ahantu bari hari intoki nyinshi bigaragara ko ari mu cyaro.

Ababyeyi babiri bicaye bambaye imyenda itandukanye, inyuma hari amadarapo y'ubururu, ahantu hameze nk'aho ari mu biro, barafata ifoto y'urwibutso nyuma y'inama.

Icyumba gisukuye kirimo amatara meza kandi irange ry'umweru n'umutuku, ahantu hatuje hafasha abantu gutanga amaraso ku barwayi.

Umuforomokazi wambaye agapfukamunwa n'agatambaro gahisha umusatsi n'imyambaro imufasha gukora akazi neza, arakora imashini zitanga umwuka ku barwayi.

Imbaga y'abantu benshi bambaye imyambaro itandukanye, bigaragara nk'aho baje mu mahugurwa cyangwa y'inama, byerekeye kwiga ku kintu runaka gishobora kubagirira akamaro nyuma y'uko bavuye muri uwo muhuro.

Itsinda ry'abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye, bishimye bafata ifoto y'urwibutso, bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, nk'umukara, umweru, ubururu, shokora n'ayandi.

Ababyeyi bari kugirwa inama n'umuganga cyangwa se umujyanama w'ubuzima, ku byerekeye uburyo bwo kugaburira abana indyo yuzuye mu byo kurya byabo bya buri munsi.

Abana baje kuvoma ku ivomero rishyashya ryubatswe ku nkunga ya leta ndetse n'izo hanze, baje gutaha aho hantu, bazanye ibivomesho by'amabara atandukanye n'ibyo bari buze kwikoreza.

Umunsi wahariwe ababyeyi bafite abana bari munsi y'amezi atanu kugira ngo babiteho barya indyo yuzuye irimo amata, imbuto, imboga, inyama, amafi n'ibindi.

Abagabo bambaye udupira tw'ibara ry'umweru n'umutuku, bazengurutse undi wicaye ku ntebe y'umuhondo bisa nkaho ari kubaha amabwiriza cyangwa inama ku ngingo runaka.

Umubyeyi wo mu cyaro wambaye igitenge avuye kuvoma mu ndobo y'umutuku, yikoreye n'iy'umuhondo afite mu ntoki, bigaragara ko ahantu atuye nta mazi ahaba.

Ababyeyi ndetse n'abantu bageze mu zabukuru, baje kwisuzumisha indwara z'amaso, kanseri, umwijima, dayabete, ndetse n'umuvuduko w'amaraso, kugira ngo bamenye aho bahagaze.

Iyo dukoresheje amazi meza biturinda kurwaragurika diyare; inzoka z'amoko atandukanye bityo turashishikarizwa kwita ahantu hose hashobora gutuma tutagira amazi meza tukabyirinda.

Abagore ndetse n'abakobwa baje kwa muganga kugira ngo bahabwe uburyo baboneza urubyaro, badakoresheje ibyatumaga barwara, bishimye kubera iyo gahunda nziza leta yabazaniye.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'umweru irimo utudomo tw'umukara wegereye ahantu bavoma ndetse bigaragara ko hakikijwe n'ibindi bidomoro by'umweru byiteguye kujyamo amazi, ahantu ari hari ibiti byinshi bigaragaza ko ari amashyamba kandi ahantu heza h'amashyamba burya hakunze kuboneka amazi, uyu mukobwa arishimye kubera kubona amazi.

Umwana w'umukobwa uri gukaraba intoki ku ivomero rigezweho amazi asukuye. Inyuma hari igikuta cyubakishijwe amatafari bigaragara ko ashobora kuba ari mu rugo iwabo.

Umuganga wambaye ishati y'umweru arakingira umwana mutoya wo mu myaka itanu kugera kuri irindwi ku kuboko, uri kumwe n'umubyeyi we w'umumama.

Ahantu heza hari amazi, ikiraro, inyubako igeretse gatatu, ikirere gisa nabi, bisa nkaho imvura igiye kugwa bidatinze muri ako gace.

Abajyanama b'ubuzima bishimye, bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'amakarita ariho amafoto n'amazina yabo, bakira umuyobozi mukuru waje kubasura.

Abakobwa bane bambaye udupira tw'ubururu n'umusore umwe bigaragara ko basoje amahugurwa yagenewe kwita ku burenganzira bw'umwana.

Umuganga araha imiti uruhinja ruri kumwe na mama warwo kugira ngo abashe gukira umutwe ndetse n'umuriro ukabije yarimaranye iminsi, ahantu bigaragara yuko ari mu ivuriro.

Inama yatumiwemo abanyamahanga baturutse mu bihugu bitandukanye, bambaye imyenda y'amoko menshi ndetse bavuga indimi zinyuranye baje mu Rwanda.

Abajyanama b'ubuzima bambaye imyambaro yabugenewe y'ibara ry'icyatsi, barangije amahugurwa y'igihe kingana n'amezi atatu ku bijyanye n'imirire ndetse n'imikurire y'abana.

Umubyeyi uri kuvomera injerekani y'umuhondo ku ivomero rigezweho, hari akabido k'umweru ahantu hamukikije, hari ibyatsi byinshi bigaragara ko ari nk'ahantu mu misozi haba amazi menshi.

Abana bari mu kigero cy'imyaka itandatu kugeza ku munani, barakaraba intoki bose hamwe baseka, mu isahani isa n'umutuku, ndetse hari na mukuru wabo uri kubafasha kugira ngo amenye neza nimba bari kubikora.

Umugabo wambaye agapira ka oranje k'ikigo gifasha abana badafite ubushobozi, babaha ibyo kurya, ibyo kwambara, amatungo yo korora n'ibindi, bahurije hamwe abanyeshuri kugira ngo bababwire uburyo bazabitaho.

Imbaga y'abantu bambaye imyambaro inyuranye, bicaye ku meza amwe, aho bafite ibikombe birimo icyayi ndetse n'agakaramu n'agakayi, bakurikiye uri kuvuga, abagisha inama cyangwa baganira ku ngingo runaka.

Umugore n'abandi bantu baje kuvoma ku ivomero ritanga amazi asukuye ariko bakishyura amafaranga, bafite injerekani z'amabara y'umuhondo n'umweru, zitondetse ku murongo neza.

Umwana w'umukobwa wagiye kwa muganga ahantu hari isuku arapimwa umuvuduko w'amaraso na muganga, bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde ikwirakwizwa ry'indwara.

Minisitiri w'Ubuzima witwa Nsanzimana, arakangurira abagore n'abadamu kwirinda kanseri y'inkondo y'umura, bagana ibitaro bibegereye kugira ngo bakingirwe kuko buri mwaka ihitana abantu magana atandatu.

Ikigo gishinzwe kwita ku bantu bahuye n'ibiza cyangwa mu ntambara, kugira ngo babone ibyo kurya, aho kuba n'ibyo kwambara, bityo babashe gukomeza kubaho.

Abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye, barigishwa uburyo bagomba gukaraba amazi meza ndetse n'isabune igihe cyose bavuye gukoresha ubwiherero cyangwa igihe baketse ko intoki zabo zisa nabi.

Abajyanama b'ubuzima baje mu nama yabateganyirijwe, bambaye amataburiya y'ubururu, higanjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye ibitenge by'amabara atandukanye, bose hamwe barishimye kandi bateze amatwi.

Urubyiruko rwambaye imipira ya oranje bari gukora akarima k'igikoni, bahinga imboga z'ubwoko bugiye butandukanye kugira ngo birinde indwara yo kurya ibiryo bitujuje ubuziranenge.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zizengurutse ameza, bari kuganira ku ngingo runaka, bahuje ibitekerezo ndetse n'umutima, bifuza gutera imbere mu bihe bizaza.

Umwana w'umukobwa wambaye agakanzu k'umutuku wishimye wogoshe neza, uri gukaraba amazi meza intoki ku ivomero byabugenewe, inyuma hari ibyatsi ndetse bigaragara ko ari ahantu ho mu cyaro.

Abanyeshuri babiri bicaye mu ishuri, inyuma hari ikibaho cyanditse amagambo y'umweru n'impapuro z'umweru, umwe azamuye akaboko, bishimye, basetse, basa neza, bambaye imipira y'umweru n'ubururu, bari kureba muri camera cyangwa se kuri mwarimu.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe ubuzima rusange ku Isi, gifasha abantu kubona ahantu ho kuba, ibyo kwambara, kwivuza badahenzwe no kwita ku miryango yabo.

Abana abahungu n'abakobwa baje kuvoma amazi ku ivomero byabugenewe, ahantu hari isoko nziza, hari amabuye ashobora kugwa bigaragara ko ari ku musozi.

Umugore wambaye umupira w'imbeho, wikoreye umufuka w'ibitoki, agiye ku isoko kubicuruza, afite n'isuka avuye mu murima guhinga, kugira ngo azabone ibimutunga.

Umujyanama w'ubuzima ufite agapimo kagaragaza nimba umubyeyi atwite, arereka umumama uteruye umwana wambaye agapira ka orange kanzu irimo umuhondo, ubururu n'icyatsi, bicaye ahantu hari inyubako zitari iza kijyambere ho mu cyaro cyangwa se mu karere u Rwanda ruherereyemo.

Imbaga y'abantu batandukanye, bambaye imyambaro inyuranye, icyatsi, umuhondo, umutuku, bari ahantu hari amatara yaka urumuri rw'umweru, ndetse asa neza bari hamwe.

Igishushanyo kigaragaza uko ubwonko bw'umuntu bumeze mu ibara rya oranje, umuhondo ndetse n'umutuku, harimo udutsi dutanga amakuru ku bwonko kugira ngo umuntu abashe gukora.

Imodoka itangirwamo ubuvuzi bw'ibanze, ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, y'ibara ry'umweru, ahantu hitwa mu Bugesera mu Rwanda, abantu benshi bataramenya ibyo ari byo.

Umubyeyi usa n'uwishimye wambaye ibitenge by'ibara rya oranje, uri mu iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'ibikoreshwa mu guteka, kwisiga n'ibindi.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imyenda igiye itandukanye, ab'inzobe, ab'igikara n'ab'imibiri yombi bifotoza bishimye, baseka, barangije amahugurwa y'ikiciro runaka.

Umugabo ugeze mu zabukuru ariko usa n'ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, yambaye ibirenge, imyenda isa nabi yacitse ndetse umusatsi we ntago usokoje.

Umubyeyi wicaye ku mukeka ubabaye, wambaye kamambiri, uziritse ikirenge ku giti n'umunyururu cyanditseho amagambo, bigaragara ko ari nk'abantu bahunze ahantu habereye intambara cyangwa se ibindi bikorwa bitari byiza.

Umusore w'igikara, arababaye ndetse yazenze amarira mu maso, afite ibibazo ashobora kuba yatewe n'umuryango cyangwa impagarara ziba iwabo. Bityo arakenera ubufasha bwa muganga kugira ngo amuganirize.

Umubyeyi ukuze usa n'uwishimye wambaye ibitenge by'ibara ry'icyatsi, inyuma ari kumwe n'imbaga y'abantu bari kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Umunyamahanga uhagaze ku kirango kiranga ibitaro by'abasazi cyangwa abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, bigaragara y'uko yaje gusura aho hantu cyangwa se aje kuba ahakorera akazi gatandukanye.

Umucuruzi w'umugore wambaye umwambaro akorana mu kazi w'umuhondo, aracuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibirungo byo mu biryo ndetse no mu mugati n'ibindi bitandukanye.

Umugabo usa n'uwasaze cyangwa ufite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe, wambaye imyenda ishaje, isa nabi ndetse afite umusatsi muremure udasukuye.

Umugabo wambaye ishati ya oranje n'ipantaro y'umukara, arasuhuza uwambaye ibishwabari utogoshe, usa nabi bisa nkaho ashonje.

Imbaga y'urubyiruko ndetse n'ababyeyi baje kwifotoza ifoto y'urwibutso, nyuma y'uko bavuye mu mahugurwa y'igihe gitonya, ku bijyanye n'imirire ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bagahabwa impamyabushobozi.

Abayobozi bambaye imyambaro itandukanye, gusa ibabereye bari hamwe bafata ifoto y'urwibutso nyuma yuko bavuye mu mahugurwa yahariwe ku buryo barushaho gutanga serivisi nziza kubabagana.

Umwana w'umuhungu wambaye ubusa, wicaye ahantu hadasa neza, bisa nkaho yaba afite ibibazo by'ihungabana, ameze nk'ufite agahinda kandi arahangayitse.

Abantu bambaye udupira tw'icyatsi, bari mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa bakabigira inshingano zabo, kuko umunsi n'ejo n'ejo bundi ari we byagarukira.

Umusore uri guseka bigaragara ko yishimye yambaye agapira k'umuhondo, iyo umuntu afite agahinda gakabije agirwa inama yo gushaka umuntu abiganiriza kuko bituma yibagirwa maze agasingira umugambi wo kujya imbere.

Abana bababaye bari kurira bishwe n'agahinda bigaragara ko igihugu cyabo kirimo intambara cyangwa inzara ababyeyi bakaba barishwe bagahinduka imfubyi.

Imodoka ya kijyambere ikoreshwa mu gutanga ubuvuzi bwihuse ku bantu, gusuzuma amavirusi agiye atandukanye, gutanga amaraso, kuvura indwara nk'amaso, Hepatite n'izindi, abantu bicaye ku dutebe barindiriye abaganga.

Umusore wambaye indebakure z'umukara n'ishati isa igitaka n'inkweto zifunze, ahagaze imbere y'urusengero ruteye irangi risa ubururu, ahantu hari ibyatsi byinshi.

Umwana w'umukobwa ugaragara nk'ufite imyaka iri hagati ya makumyabiri kugeza kuri mirongo itatu, ufite ubuzima bwiza unezerewe, wambaye ipantaro y'ubururu n'agasengeri k'umukara, ari ahantu hagaragara ko ari iwabo.

Umuganga uri kwiga kuvura amenyo, akoresheje agakoresho gashushanya uko ateye, mu gihe yaba ari kuvura umurwayi waba wahuye n'ikibazo.

Imbaga y'abantu baba mu itsinda rya tubiteho bashinzwe kwita ku bana badafite ababyeyi, barigisha urubyiruko uburyo bagomba koza amenyo bakoresheje umuti wabigenewe ndetse bambaye impuzankano y'ibara ry'icyatsi.

Umuhungu uri gukora isuku y'amenyo akoresheje akadodo kabugenewe kugira ngo imyanda iba yasigaye, nyuma y'uko amajije koza amenyo, ibashe gusohoka.

Umugore uri kumwe n'umwana we amwigisha koza amenyo akoresheje uburoso bwizewe kandi busa neza, wambaye udupira tw'umweru, imisatsi yi'mikara, icyumba gisa neza kirimo isuku.

Umugabo cyangwa se umusore uri gusukura amenyo ye yifashishije akagozi, akura imyanda yose mu menyo. Amenyo iyo asukuwe neza bituma umuntu agira inseko nziza n'impumuro nziza, bityo abamureba bakishimira kumubona, ariko iyo utisukuye bituma urwara mu kanwa.

Abantu bambaye udupira tw'icyatsi, bari gusuzumirwaho umuti w'amenyo bareba ko wujuje ubuziranenge, n'abaganga bambaye udupfukamunwa, ndetse n'abandi baje kwihugura.

Ibikoresho bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gusuzuma umurwayi bareba imbere mu gutwi, mu ijisho cyangwa se mu mazuru, bikoresha umuriro kugira ngo bitange urumuri ruhagije rufasha abaganga kureba aho uburwayi bw'umuntu buri mu mubiri.

Mudasobwa ikoreshwa n'abaganga b'inzobere ifasha mu kureba ibice by'imbere mu mubiri, by'umwihariko amenyo, kuvurwa kwayo ndetse n'imiti itangwa n'abaganga.

Umurwayi uri kuvurwa n'umuganga wambaye indebakure zabugenewe ndetse afite n'ibikoresho bitandukanye, ari kumwe n'umuforomo umufasha kugira ngo arebe neza mu kanwa amenyo yaba afite ikibazo.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we, uri kumwigisha koza amenyo ye ukoresheje akadodo, bifasha mu gukura imyanda iba yasigaye mu menyo, bikaturinda kunuka mu kanwa, kuvunika kw'amenyo n'ibindi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu n'umuhondo basuwe n'ikigo gikora umuti w'amenyo, bityo bizabafasha kwirinda impumuro mbi mu kanwa ndetse bakagira n'amenyo asa neza atariho umwanda.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu, arafasha umusaza ugeze mu za bukuru wicaye mu kagare k'abantu bamugaye guhaguruka, bigaragara ko bari mu kigo kibitaho kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi w'umupapa wambaye ishati ya oranje, uri kumwe n'umukobwa we wambaye ikote ry'ubururu, bishimye bifotoza baseka bari ahantu hasa igitaka.

Umuforomokazi wambaye imyenda ya kiganga, arita ku mubyeyi ugeze mu zabukuru wicaye mu kagare k'abamugaye kuko atakibasha kugenda neza cyangwa kuvuga neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru utakibasha kwiyuhagira, arafashwa n'abashinzwe kumukurikirana koga kugira ngo yirinde impumuro mbi iterwa n'umwanda.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku meza ahantu ho mu ruganiriro banywa ibinini n'amazi, basoma amabwiriza kugira ngo bakoreshe imiti neza.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'ubururu, arapima umubyeyi ugeze mu za bukuru wicaye mu kagare k'abamugaye, umuvuduko ukabije. Iyo umuntu arengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu akunda kuzahazwa cyane n'uburwayi.

Imbaga y'abakobwa bafite ibiro byinshi bahuriye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, ahantu mu muhanda bigaragara ko babujije ibinyabiziga kugenda kugira ngo abantu bakore bisanzuye.

Umusaza wambaye ishati y'igitaka arapimwa umuvuduko w'amaraso na muganga, w'umukobwa mu kigo nderabuzima cy'ako gace kugira ngo amenye aho ubuzima bwe buhagaze.

Umuforomo ushinzwe gufasha ababyeyi cyangwa se abantu bageze mu za bukuru, arafasha umukecuru kunywa imiti iri mu gakarito k'umuhondo n'amazi ari mu kirahure kuyanywa.

Umuforomokazi ushinzwe kwita ku babyeyi bageze mu za bukuru mu kigo cyabigenewe arafasha umusaza guhaguruka kugira ngo abashe koga bityo agire impumuro nziza n'ubuzima bwiza.

Abasaruzi bari mu murima basarura utubabi twi'icyayi tweze, dukoreshwa mu nganda batunganya amajyani akoreshwa mu bintu bitandukanye, harimo n'ayo kunywa.

Umukecuru wambaye rinete, uri kumwe n'umusaza uri kunywa amazi wicaye ku gitanda cy'ibara ry'umuhondo mu cyumba gisize irangi ry'umweru, bari kuganira ku ngingo runaka ibanejeje bombi.

Umuganga arasobanurira umubyeyi ugeze mu zabukuru uburwayi afite, icyo yakora kugira ngo yivure n'ibyo akwiriye kureka kugira ngo agire amagara meza, yambaye ishati y'igitaka ndetse afite imvi.

Umugore uri gufasha umusaza wambaye ishati y'ubururu guhaguruka, bisa nkaho ari umuforomokazi wiwe cyangwa se ushinzwe kwita kubantu bageze mu zabukuru, bari mu cyumba kirimo itara ryaka umuhondo.

Ubutumire bw'inama cyangwa amahugurwa ku bijyanye n'uburyo wakwirinda Sida, Malariya, igituntu n'ibindi bikabije mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima.

Ubushakashatsi bwakozwe ku cyorezo, aho abantu mirongo inani na babiri ku ijana, bari mu myaka mirongo itandatu n'itanu bakingiwe, naho abafite imyaka iri munsi y'iyo ngiyo bakaba batarabona inkingo zihagije ngo bose barangire.

Ibipimo byafashwe byo gusuzuma virusi iterwa n'inkende, biri mu ducupa dukoze mu birarahure, dusize irangi ry'ubururu, umutuku, umweru n'umukara.

Minisitire w'Ubuzima ari kumwe n'undi muyobozi bafata ifoto y'urwibutso, nyuma y'uko amahugurwa yerekeye ku buryo twakwirinda indwara z'ibyorezo arangiye.

Umunsi wahariwe kurwanya Diyabete ku isi uzabera muri inyubako y'ibara ry'ubururu n'umuhondo n'icyatsi yo mu Rwanda, akaba ari inyubako yahariwe imyidagaduro igiye itandukanye.

Ikirango cy'ikigo cyahariwe mu kurinda ikwirakwira ndetse no gusobanukirwa virusi itera SIDA n'agakoko kayo, bityo abanyeshuri ndetse n'urubyiruko muri rusange bagomba kubimenya kugira ngo birinde.

Amahugurwa yahuriyemo abakobwa b'abangavu batarengeje imyaka makumyabiri n'irindwi, bambaye udupira tw'ibara ry'umweru n'umukara, ndetse n'abayobozi babakuriye biga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kurushaho kugira isuku, ndetse no kwigisha abari munsi yabo.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe isuku mu Rwanda cy'ibara ry'ubururu n'umweru, harimo ibiganza bibiri birimo gusuhuzanya, gitanga ibikoresho binyuranye.

Amabwiriza yo kugira ubuzima cyangwa amagara meza arimo gukora imyitozo ngororamubiri, kurya imboga n'imbuto, kunywa amazi ahagije, gusinzira amasaha menshi ndetse no kuruhuka byiza k'umubiri.

Indwara y'ubushita bw'inkende iza ku mubiri umuntu akazana uduheri twinshi, akababara mu nsina z'amatwi, akaribwa cyane mu ngingo, akarwara umutwe, amaso, ndetse akagira n'isereri no gucibwamo, ibyo biterwa nuko aba yakoranyeho n'uwayirwaye.

Ubutumwa bw'umuganga akangurira imbaga y'abantu gukoresha imiti neza nk'uko baba bayandikiwe kugira ngo bamenye neza yuko indwara yagiye burundu, bityo bagomba kumara neza ibinini bandikiwe.

Icyapa kiranga uburyo umuntu ashobora kwirinda virusi yitwa Korona, yambara agapfukamunwa, akaraba amazi meza, asiga metero imwe hagati ye na mugenzi we, arya ibiryo bitunganyijwe kandi bimeze neza.

Ubutumire butumira abantu ku munsi wahariwe kwirinda gukuramo inda kuko bishobora gutuma umuntu avutsa ubuzima bw'uwo atwite ndetse nawe ubwe bukagenderamo bityo ni byiza ko tumenya ibi byose.

Ababyeyi bose bafite impinja zitararenza amezi atandatu baje gukingira abana indwara zitandukanye kugira ngo batazarwaragurika nibamara gukura bityo bagire ubuzima bwiza.

Abaforomokazi bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere y'ikirango cy'ivuriro ryabo bacyamamaza kugira ngo abantu bakigane bifuza ko bavurwa indwara zananiranye ndetse bagakira bagatahana ubuzima bwiza.

Inzu yahariwe ababyeyi baje kwibaruka abana, yubatswe ndetse inatunganywa n'ibiro by'Akarere, ifite irange ry'umuhondo, inzugi z'umweru ndetse abantu baje kuyitaha.

Inyubako y'ivuriro cyangwa ibitaro bifite ibice bitandukanye byakira abarwayi, icyapa kinini gifite ibice bitandukanye kereka abaje bagana ibitaro aho bagiye kujya n'aho berekeza.

Umwana uri mu kagare k'abamugaye ari gusunikwa n'undi wambaye ikoti ry'umukara, imbere yaho ari umugore wambaye umupira w'umweru, bari kwinjira mu gisharagati cy'amabara y'icyatsi n'umuhondo n'ubururu, bigaragara ko hari ahantu habereye ikirori, aho ari icyo kwishimira inkunga cyangwa se ibyo bagezeho.

Icyuma gikoreshwa mu kureba utu virusi cyangwa se utundi tunyangingo tudashobora kurebwa n'amaso asanzwe y'umuntu, dukikijwe n'ibirahure bishushanyije mu mashusho atandukanye.

Ivuriro ryubatse mu buryo bwa kera ahantu hasize irangi ry'umuhondo hafite inzugi zishaje zubatse nabi ndetse hari ikirere gisa neza ubona ko nta zuba rigiye kuhava n'ubusitani bwiza.

Icyumba cyagenewe abarwayi barara mu bitaro, aho imashini ibafasha guhumeka cyangwa gupima umuvuduko w'amaraso n'ubushyuhe, iba iri ku ruhande rw'igitanda ndetse hari na serumu.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo imashini zabugenewe mu kureba ibice by'umubiri, harimo umwijima, umutima ndetse n'ibindi bice kugira ngo babashe kuvura abaje babagana indwara barwaye.

Ibitaro byubatswe mu buryo bugezweho, aho buri murwayi abasha kubona igitanda kiwe aryamaho ndetse hari urumuri ruhagije n'isuku n'imashini zibafasha mu guhumeka, cyangwa se kureba uko umutima utera.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatswe mu buryo bugezweho, umurwayi abasha kuryama ahantu heza hafite isuku, igitanda cyoroshye gituma yegama akisegura.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo imashini nini gikoreshwa mu gusuzuma indwara z'imbere mu mubiri, harimo mu nda, mu mutwe, mu gituza n'ahandi henshi, hariho amatara menshi atanga urumuri ruhagije, hari isuku hasukuye neza, hasize irangi ry'umweru.

Ibitaro bikuru bya gisirikare mu Rwanda byubatse neza amabati y'umweru, bivura indwara zananiranye harimo amara, ibifu, imvune, umwijima, kanseri n'izindi.

Umurwayi w'umugabo wambaye imyenda y'umweru, ararwaye cyane, ari ku mashini nyinshi, haba izimwongerera umwuka, izipima isukari n'izindi.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe abarwayi kuba ariho bacumbitse mu gihe bakiri kwivuza cyangwa bagikeneye serivisi zo kwa muganga. Hari amatara atanga urumuri ruhagije ndetse hari imashini zikoreshwa mu buvuzi bw'abarwayi.

Ivuriro ryubatswe muburyo bugezweho mu matafari asa neza, amabuye, iteye amarangi y'umweru, umukara, ifite ubusitani bw'ibyatsi bigiye bitandukanye.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge byubatswe mu buryo bugezweho, bisize irangi ry'umweru n'umutuku, bifite ubusitani burimo indabo z'amabara meza ndetse n'ahantu abagenzi banyura.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo imashini zikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zinyuranye, cyane cyane izireba ibice by'imbere mu mubiri w'umuntu, cyangwa ahareba imvune y'abantu.

Umubyeyi umaze kwibaruka uruhinja, arereka umuganga uko umwana we asa, anezerewe kandi yishimye yuko akiri muzima.

Ibitaro byubatswe mu buryo bwa kijyambere neza, bigeretse inshuro eshatu, bifite amabati y'ibara ry'umutuku cyangwa igitaka, ahantu mu misozi hari ibihu byinshi.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere cyubakishijwe amatafari y'icyatsi ndetse n'irange ry'umweru n'amabati meza, ahantu hari indabo z'ibara ry'umuhondo n'icyatsi n'umweru, hagaragara nkaho ari mu misozi.

Ikigo cy'indwara za canseri cyo mu Rwanda cyubakishijwe irangi ry'umuhondo bworoshye. Gifite icyapa cy'icyatsi, n'umuhondo, n'ubururu. Imbere hari ubusitani bw'ibimera bimeze neza, hakaba umusirikare uri kugenda asa nk'aho yinjira, hakaba n'ahantu hari isima.

Umwarimu uri kwigisha umunyeshuri ibijyanye n'uko wasukura amenyo, yambaye itaburiya y'umweru, inyuma ahagarikiwe n'abayobozi baje kureba uburyo yigisha, ahantu hari ikibaho cy'umukara.

Ibitaro bya kijyambere, byubatse neza, inyubako imeze neza, hari abagabo n'abagore bambaye amashati y'umukara, amapantaro y'umweru n'ubururu, inkweto zifunze, bafite udukapu turimo imiti itandukanye, bari kugenda binjira, aho bagana ku muryango w'iburyo.

Inyubako yubatswe kugira ngo ikorerwemo ubushakashatsi bw'imiti, bityo hizerwe ubuziranenge bwayo ndetse n'abantu bayikoresha ntibagerweho n'ingaruka kubera imikoreshereze iba idakwiye.

Ibitaro bigezweho byubatswe na Leta y'u Rwanda bifite ubusitani bwiza. burimo ibyatsi ndetse n'indabo bituma haza akayaga keza, bityo abarwayi akaba ariho bakunda kuba bicaye kugira ngo baruhuke.

Igisharagati cyagenewe abantu baje gutanga amaraso kugira ngo baryame baruhuke kuko bituma umuntu agira isereri iyo amajije kuyatanga.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe abarwayi kuba ariho bacumbitse, cyangwa baryama mu gihe bakirwariye mu bitaro, buri gitanda gifite ishuka y'icyatsi ndetse irido ry'ubururu bwerurutse n'uduti tubafasha kweguka.

Ibitaro bikuru by'akarere byubatse muri etaje igeretse rimwe isize irangi ry'umweru, ubururu, n'umutuku, n'inzugi z'umukara zisa neza cyane.

Muganga ari gukoresha mudasobwa mu kureba ibice by'imbere mumubiri, kugirango amenye uko avura umurwayi waje amugana mucyumba cyiwe aricyo biro byiwe.

Icyumba kiberamo ibikorwa bitandukanye mu kuvura abarwayi; ndetse gifite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, harimo intebe ya muganga n'ameza yabugenewe.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi babaga umuntu kugira ngo barebe ibice by'imbere mu mubiri we, bityo hinjiramo umuganga n'umurwayi, ahantu hari isuku n'amatara atanga urumuri rwinshi.

Ivuriro rishyashya ryubatswe kugira ngo bafashe abantu bafite uburwayi bw'amaso. Ahantu hari amatara meza atanga urumuri ruhagije, imashini zikoreshwa mu buvuzi, intebe abarwayi bategerererezaho mu gihe batarabona ubafasha.

Icyumba cy'ubuvuzi cyagenewe kuvuriramo impinja cyangwa abana batararenza imyaka ibiri, hari isuku, amakaro y'ibara ry'umweru ndetse n'inkuta z'ibyuma, hasa neza kugira ngo abana babashe kwitabwaho mu mahoro.

Icyumba cy'ubuvuzi gikoreshwa mu gutanga amaraso gisukuye neza, hari intebe yagenewe abaje gufashwa iy'umuhondo ya kijyambere, hari imashini ikoreshwa mu kuvoma amaraso cyangwa se ibindi bikorwa bya laboratwari, hari agatebe ka muganga, hari ameza matoya muganga ashyiraho ibikoresho, harasa neza kandi abaje kuvurwa bizeye umutekano waho, kubera ukuntu hafite isuku.

Abantu baje mu biganiro rusange kumva inama bagirwa n'umuyobozi wabo ku bijyanye n'imikorere ya SACCO ndetse na banki.

Farumasi icuruza imiti y'ubwoko butandukanye, ivura umutwe, amaso, umugongo, iseseme ndetse n'umuti wo koza amenyo n'ibipfuko, hari isuku, amakaro y'umweru ndetse n'amatara atanga urumuri ruhagije.

Imashini zifasha mu kuyungurura amaraso aba yatanzwe ndetse bakanayaha abarwayi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, ifite ibara ry'umweru n'umutuku, ibikwa ahantu hafite isuku n'urumuri ruhagije kugira ngo birinde ko hajyamo imyanda bityo akandura.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo imashini ya kijyambere ifasha mu gusuzuma cyangwa kureba ibice by'imbere mu mubiri no kureba indwara zitandukanye umuntu yaba afite.

Icyumba kiberamo inama cyangwa amahugurwa, aho buri wese abasha kwicara yisanzuye mu ntebe ya kizungu y'umukara, agatanga igitekerezo cyiwe yifashishije indangururamajwi iba iri imbere ku meza ye.

Abantu bambaye imyenda y'abakozi bo mu ruganda cyangwa se kwa muganga, harimo ingofero, udupfukamunwa begereye imashini, bari gutondeka uducupa tw'umweru ku murongo bisa nkaho bari kudufunga cyangwa kudupfundikira.

Icyumba cya kijyambere gikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye, hifashishijwe imashini yabugenewe mu kureba ibice by'imbere mu mubiri icyumba kirimo amatara atanga urumuri ruhagije, n'abaforomo bambaye amataburiya y'umweru, ndetse n'abandi bambaye imyenda y'ubururu.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, amataburiya y'imyeru, bari mu cyumba gisize irange ryiza, bakoresha imashini yabugenewe mu kuvura abarwayi b'umwihariko.

Icyapa kiranga ibitaro bikuru bya gisirikare byo mu Rwanda gisa icyatsi, cyanditseho amagambo y'umweru, ahantu hari indabo z'icyatsi n'umuhondo ndetse na kaburimbo.

Umuganga aratera imiti ahantu kugira ngo udukoko umuntu atabasha kubona arebesheje amaso asanzwe tutamwinjiramo ndetse aho hantu hameze nkaho ari mu bitaro.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo siporo, harimo imashini z'ubwoko butandukanye nk'izo kwirukankiraho, kugorora amaboko, kugorora mu mavi n'umugongo ndetse hari amatara y'umweru atanga urumuri ruhagije.

Ivuriro ryubatswe mu buryo bwa kijyambere, rifite aho bakirira abarwayi hari amakaro meza ndetse afite isuku n'amatara yaka atanga urumuri ruhagije.

Icyapa kiranga ibitaro bya Kabgayi cyanditswe mu magambo y'umweru ndetse n'umukara, ahantu hari ibiti birebire by'icyatsi umuhanda w'ibitaka.

Icyumba cy'ubuvuzi abaganga bavuriramo abarwayi baje babagana, hari amatara atanga urumuri ruhagije ndetse na televiziyo n'imashini kuri buri meza n'udutebe twa buri muganga ndetse hari isuku.

Icyumba gisa neza, gifite amakaro y'umweru, urukarabiro, aho bajugunya imyanda, amatara meza ndetse n'aho babika imyenda bayizinze neza.

Ikirango cy'ibitaro by'akarere ka Huye cy'ibara ry'umukara, umweru n'ubururu, kiri ahantu hari amabuye y'amasarabwayi ndetse n'ubusitani bwiza butoshye.

Abantu benshi bambaye udupira tw'ubururu, baje kwitabira umunsi wahariwe kwita ku mubyeyi ndetse n'umwana atwite, bamenya amabwiriza n'uko bakwitwara.

Inzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ifite amatara y'icyatsi, inzugi zikoze mu ishusho y'urukiramende, isize ibara ry'umweru ndetse n'amagambo y'umukara n'ubururu.

Imbaga y'abantu benshi harimo abanyamahanga n'abanyarwanda, baje gutaha ibitaro bishyashya bya Rwamagana, byubatswe mu buryo bugezweho n'irangi ry'ubururu n'umuhondo kugira ngo abantu bahabone neza.

Umubyeyi wicaye mu kagare, ahantu hari ubusitani, munsi y'ibitaro bimuvura kugira ngo aruhuke ndetse atekereze neza bityo akomeze kwishimira ubuzima.

Icyumba kiba mu bitaro, aho babika imiti y'ubwoko bunyuranye, hari ubukonje kugira ngo birinde ko yakwangirika ndetse hari amatara ahagije atanga ubushyuhe buringaniye n'amakaro meza, hasukuye ndetse hizewe.

Ibitaro byubatswe mu buryo bugezweho bifite ububiko bw'imiti ahantu haba hakonje kugira ngo hirindwe kwangirika kw'imiti ndetse hari kamera kugira ngo umutekano waho ube wizeye hari isuku ihagije, amakarasa neza, ibirahure bihanaguye ndetse haratuje.

Inyubako nshyashya irimo imashini zitandukanye, yubatswe mu ibara ry'umweru, amabuye ndetse ifite ubusitani burimo indabo nyinshi ndende nziza abantu baje kuyisura bwa mbere.

Umusore mukuru ufite ubwanwa n'umusatsi mwiza, aranywa amazi nyuma yuko avuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibitaro bya gisirikare bivura abantu bakomerekeye ku rugamba, harimo kubaganiriza kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuvura ibikomere baba bafite n'izindi ndwara bakuyeyo.

Umuntu wagiye kwivuza kwa muganga usa n'ufite ikibazo cy'imitsi, ubwo yari ari gukora siporo, ikaba yaje kumurya cyane bityo ajya kwa muganga wambaye imyenda myiza y'akazi, ngo amufashe amukandira ahantu ari kuribwa, amuha n'imiti imugabanyiriza kugira ngo yongere kumera neza.

Umuntu usa nk'uwavunitse, uri kwikanda ku kaguru akoresheje amazi akonje cyangwa y'akabiyazi kugira ngo imitsi n'imikaya isubire mu mwanya wayo, ahagana ku mvune.

Umukobwa wambaye isengeri y'ubururu, arakora imyitozo ngororamubiri ya mugitondo, kugira ngo imufashe kuza kujya mu kazi adafite amavunane cyangwa umunaniro.

Umukinnyi wavunitse amaguru, arafashwa n'abatoza guhaguruka kuko we atabibasha, nyuma y'uko aguye hasi bikomeye. Bagenzi be baramusengera kugira ngo ngo amere neza.

Umusore wambaye imyenda y'umukara n'isaha n'inkweto nziza, bisa nkaho ababara akaguru kubera imyitozo ngororamubiri amaze iminsi akora.

Akuma gafasha kureba umuvuduko w'amaraso kibara ry'umweru n'umukara aho gafite imibare yiyandikamo akakagira n'umugozi bacomeka ku mitsi y'umuntu kugira ngo bapime.

Abaganga bambaye imyenda y'imyeru, ariyo amataburiya, barigishwa n'inzobere yo mu bihugu bya Aziya kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga ku barwayi baza babagana.

Umusore uvuye muri siporo usa n'ufite ikibazo cy'imitsi kuko ari kwikandisha amazi akonje kugira ngo irambuke, abashe gutera intambwe agenda. Ndetse yambaye imyenda y'imikara.

Umukobwa uri gukora siporo mu gitondo cya kare, yambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, bifasha kugira ngo umuntu aruhuke kandi atekereze neza mbere y'uko ajya mu kazi ka buri munsi.

Umwana w'umuhungu wambaye umupira w'ubururu n'uw'umukobwa wambaye uw'umuhondo, barakina umupira ndetse umwe afite ubumuga ariko arakoresha imbaraga ze zose kugira ngo akine.

Umugabo uri gukora siporo, wambaye isengeri y'umweru. Ni byiza kugerageza gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo wirinde umubyibuho ukabije ndetse n'indwara, harimo umuvuduko w'amaraso.

Umwana w'umukobwa wambaye indangururamajwi, ufite icupa ry'ubururu ririmo amazi ayanywa, bigaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu arasuka amazi mu kirahure, mu buzima busanzwe ni byiza byibuze gufata ibirahure bitatu kugira ngo urinde umubiri wawe kumagara.

Umusore wambaye isaha ihenze n'inkweto nziza n'amasogisi y'umukara, ari ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire amagara meza n'ubuzima bwiza.

Umusore uri kumwe n'umuhugura mu mikino itandukanye, bari ahantu hari ibikoresho bikoreshwa muri siporo kugira ngo umuntu agire amagara meza atarwaye.

Umusore usa n'uvuye mu myitozo ngororamubiri ariko anyotewe, aranywa amazi ari mu icupa ry'ibara ry'ubururu, ahantu hari ibyatsi hameze nko mu muhanda wagenewe kwirukanyiramo.

Umugore uri gukora siporo wambaye agapira k'icyatsi, ikabutura y'ubururu n'inkweto z'umweru, arasunika ibyuma bisa nk'aho biremereye, ku itapi ishashe neza.

Umukobwa cyangwa umugore usutse inyabutatu, afite agafungisho k'umutuku, ari kurambura amaboko, asa n'ukora imyitozo ngororamubiri ya mu gitondo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, asunika ibyuma bifite amagarama menshi kugira ngo agire imikaya ikomeye bituma amaraso atembera neza mu mubiri, bikarinda n'indwara zitandukanye.

Umusore wambaye inkweto z'umutuku n'ipantaro y'umukara, afite icupa ry'ibara ry'ubururu ry'amazi, arakorera imyitozo mu cyumba cyabugenewe kandi yambaye neza.

cyumba cy'ubuvuzi gikoreshwa mu kuvura abarwayi b'amaso, amenyo, amatwi, kuko hari imashini zifasha mu kureba muri ibyo bice imbere, bagakoresha utwuma twabugenewe kugira ngo bakuremo imyanda.

Umusore wahuye n'ikibazo cyo kwikanga imitsi aravurwa n'umuganga w'inzobere, amufasha kugira ngo agororoke abashe kongera gutsindagiza ikirenge, maze agende nk'uko byari bisanzwe.

Umuganga ari gukanda umuntu bisa nkaho yavunitse mu ivi, yambaye itaburiya isa umweru yanditseho amagambo y'ubururu.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo ndetse arimenaho amazi, bigaragara ko arushye avuye gukora imyitozo ngororamubiri kandi yaranyotewe ni yo mpamvu ari kubikora.

Ibimenyetso by'indwara zigiye zitandukanye, kubabara umutwe, isereri, kureba ibikezikezi, kumva injereri mu matwi n'ibindi. Gukora siporo ni byiza kuko bikurinda uburibwe.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, bisa nk'aho yavunitse uri kwikanda akaguru k'iburyo. Ni byiza ko imvune utayihererana uyijyana kwa muganga, cyangwa se ukayiha abavuzi gakondo bakakwitaho.

Imiti ikoreshwa mu butabazi bw'ibanze mu rwego rwa siporo, harimo iyoza isukura imvune cyangwa igisebe, ndetse ibipfuko, amavuta, n'ibindi bifasha abakinnyi kugira ngo bagabanye ububabare.

Umukobwa uri kunywa amazi bigaragara ko yabize icyuya avuye mu myitozo ngororamubiri anyotewe cyane kandi yarushye, birinda kumagara k'uruhu, ndetse bikayobora imyanda ahabugenewe, bityo umuntu akihagarika neza.

Umukinnyi usa n'uwavunitse kubera kwirukanka cyangwa guhutazwa igihe ari mu marushanwa, arafashwa n'umukozi ubishinzwe kugira ngo amutabare uburibwe.

Ikirango cy'ikigo cyigisha imirwanire mu gihe umuntu aba yirwanaho, aho kirimo amabara nk'umweru, umuhondo, ubururu, umukara ndetse n'amagambo abiranga neza.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu mirimo igiye itandukanye, hari inkweto wambara mu izuba ndetse no mu mvura, indangururamajwi, ibicurangisho, ibisukura ahantu n'ibindi.

Ikigo nderabuzima cyasuwe n'abayobozi ndetse n'abaminisitiri, baje kureba uburyo bushyashya bugezweho bwa kizungu bukoreshwa mu kuvura imvune, hifashishijwe imashini zabugenewe kugira ngo umurwayi abashe gukira vuba.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo arakora imyitozo ngororamubiri ya mugitondo kugira ngo abashe kujya mu kazi kiwe ka buri munsi atekereza neza adafite amavunane cyangwa umunaniro ukabije.

Itsinda ry'abantu bari kwigishwa uburyo bwo gutanga ubutabazi bw'ibanze igihe bikekwa ko umuntu yaba yavunitse cyangwa se yagize ikibazo cy'imitsi akaba yafashwa byihutirwa.

Ironji, pome, imbuto zitandukanye, imboga z'ubwoko bwinshi, icupa ry'amazi meza, icyuma gikoreshwa mu gukora siporo kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, ibyo byose bituzanira amagara meza bikaturinda indwara.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura, bisa nk'aho yari ari gukora siporo. Yafashwe n'imbwa mu kaguru ari kubabara bikabije, akeneye uwamufasha kugira ngo amererwe neza.

Amazi adufasha mu kuyungurura imyanda ndetse umuntu iyo ayanyweye ntabwo arwara umutwe bityo turakangurirwa kujya tuyanywa kugira ngo tugire amagara meza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri ahantu yegereye inyanja, kugira ngo abashe kubona ishusho nziza ndetse afate n'akayaga, bityo bituma umuntu abasha gutekereza ndetse akagira ibyo ahindura mu buzima yakoraga nabi.

Umuforomo arafasha umurwayi muri gahunda yiswe ubugororangingo. Iyo umuntu ahuye n'impanuka igatuma imitsi itongera gukora neza, ni ngombwa ko ajya muri iyi gahunda kugira ngo ibyapfuye bisubire mu mwanya wabyo.

Ubwoko bugiye butandukanye bwo gukora siporo., nko kuzamura amaboko uhengamiye uruhande rumwe, aribyo kugorora ingingo, kwirukanka, guterura ibyuma byabugenewe, gukina umupira, gukina saye n'ibindi, siporo ni ingenzi mu buzima.

Umukinnyi w'umugore, aravurwa na muganga akaguru, aho yavunitse kugira ngo azabashe gukomeza imikino yiwe iri imbere cyane.

Ikimera cy'ibara ry'icyatsi, gifite amababi umunani, kegereye ibindi ariko harimo intera kuburyo bisa nkaho bagisigiye, umwanya wo guhumeka no gukura neza.

Ibicuruzwa by'ubwiza birimo amoko menshi bipimye mu byiciro bitandukanye, harimo ibinini, ibirebire, ibiringaniye, amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara.

Ibinini by'ibara ry'icyatsi biri ku gakoresho gakozwe mu giti, ahantu hasa umweru hari isuku, ku buryo nta myanda cyangwa se ibindi byakwanduza imiti.

Amavuta akorwa mu gikakarubamba ari mu icupa ry'ibara ry'icyatsi, agapfunikizo k'umweru, avura indwara z'uruhu kugira ngo umuntu areke kwishimagura, kuzana ibiheri n'ibindi.

Igihingwa cy'ubwoko bw'indabo gifite amababi menshi y'umweru n'ubururu bworoshye kigira amavuta menshi, gikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura uruhu. Bakoramo amasabune, amavuta yo kwisiga n'ibindi byinshi.

Umuti uvura indwara zinyuranye, ukoze mu ishusho ya mpande enye y'ibara rya orange, uba mu gakarito k'umuhondo n'icyatsi, handitseho amagambo y'umukara.

Umuvuzi gakondo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, ari kubika imiti mu dukarito twabugenewe tw'ibara ry'umuhondo, umutuku, ahantu bisa nkaho ari mu ivuriro.

Amavuta yo kwisiga ku mubiri ari mu gacupa k'ubururu, yanditseho amagambo y'umweru, ariho ikirango cy'igisiga, akoreshwa mu kuvura indwara zananiranye z'uruhu, kugira ngo umuntu yirinde kugira ibiheri ndetse n'amahumane.

Umutako wo kumeza, harimo uduti tubiri, ikirahure kirimo amazi, ururabo rw'icyatsi, agatambaro k'ivu, biri ku meza y'umukara.

Umuti uri mu gacupa k'ibara ry'umukara, handitseho amagambo y'umweru mu biganza by'umukobwa cyangwa umugore, bisa nk'aho bivura indwara zijyanye n'imitsi cyangwa ibindi.

Ibicuruzwa by'ubwiza biri mu macupa y'amoko atandukanye, iby'umweru, iby'umuhondo, iby'igitaka bikozwe mu rukakarubamba kugira ngo abantu babashe kugira uruhu rwiza rutagira ibiheri, iminkanyari ndetse n'amavuta menshi.

Ibicuruzwa by'ubwiza bifunze mu macupa y'ubwoko butandukanye nk'amabara y'umweru, umuhondo, umutuku ndetse n'ayandi, inyuma hari igitambaro cyiza kirekire, ahantu hari urumuri ruhagije.

Igicuruzwa cy'ubwiza gifasha mu kugira uruhu neza, gifunze mu icupa rirerire ry'umweru, ryanditseho amagambo y'ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara.

Umuti wisigwa mu gihe hari izuba ryinshi kugira ngo urinde kumagara, ibiheri, iminkanyari ku ruhu, abantu bawukoresha bagubwe neza, uri mu gacupa k'umweru n'ubururu.

Umuvuzi gakondo wambaye umwambaro w'akazi n'agapfukamunwa n'agatambaro gatwikiriye umusatsi, arabara atondeka imiti yiwe ku murongo kugira ngo ise neza.

Igicuruzwa cy'ubwiza gikoreshwa mu kwisiga igihe hari izuba ryinshi kugira ngo uruhu rutumambagara cyangwa mu mbeho kugira ngo uzane ubushyuhe.

Ibimera by'ubwoko butandukanye by'ibara ry'icyatsi bifite amababi abyibushye, ananutse, amaremare afasha mu gukora imiti no kwisiga ndetse n'indwara zitandukanye.

Ikimera gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, gisa icyatsi, gifite amababi manini, ibimera nk'ibi bikunda kwera mu bishanga, ku musozi ndetse n'ahandi, bivura mu nda, umugongo, amaso ndetse n'izindi ndwara.

Ikimera cy'ibara ry'icyatsi gikoreshwa mu buvuzi gakondo n'abaganga b'umwihariko mu ndwara zananiranye zitabashwa kuvurwa n'abandi. Gikunda kumera ahantu izuba ritaba ari ryinshi.

Amacupa atondetse ku murongo ariho ikirango cy'icyarabu, bigaragara ko akoreshwa mu buvuzi gakondo, aho afasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'ibimera, bifite amababi agiye atandukanye, amanini, amaremare, amagufi, y'ibara ry'icyatsi kibisi. Ibimera bidufasha mu kuzana umwuka mwiza, ku isi.

Igiti kirekire cy'amababi menshi, meza, y'icyatsi kibisi, gikoreshwa mu buvuzi gakondo, kiri ahantu hari ibindi byaremwe by'amabara atandukanye, ndetse y'umutuku n'umuhondo.

Urumogi ni igihingwa cy'ibara ry'icyatsi gifite ibibabi bikoze nk'ikiganza cy'umuntu, mu bihugu bimwe na bimwe gifatwa nk'ikiyobyabwenge bityo ntabwo cyemewe.

Ikimera cy'ibara ry'icyatsi gifite amababi ndetse n'amashami menshi, gikoreshwa mu buvuzi gakondo iyo uvura indwara zananiranye zitabasha kuvurwa mu bitaro, aho umuntu agikoresha ateka amazi akagishyiramo.

Igicuruzwa cy'ubwiza gikoreshwa mu gusukura uruhu, kiri mu macupa y'amabara atandukanye nk'umweru, icyatsi, igitaka ndetse n'ayandi.

Abayobozi bashinzwe ikigo runaka basuye abahinzi, baje bambaye imyambaro y'icyatsi, kureba ibikakarubamba uko byera ndetse n'uko bisarurwa.

Umuti uvura indwara zitandukanye, uri mu gacupa k'umweru kanditseho amagambo y'umuhondo ndetse hariho akarango k'igisiga, n'umubare w'ijana, bisobanuye ko wizewe cyane.

Umuti w'amenyo ukozwe mu bikakarubamba, uri mu gacupa k'umweru, wanditseho amagambo y'icyatsi n'umukara, ibikakarubamba bituma umuntu agira amenyo meza, asa neza kandi akirinda indwara.

Igihingwa cy'ibara ry'icyatsi kibisi, kizwi ku izina ry'urumogi. Gikoreshwa mu buvuzi gakondo nko kuvura mu nda, umutwe, indwara z'uruhu, gusinzira neza n'ibindi. Kikaba kitemewe mu Rwanda kuko gifatwa nk'aho ari ibiyobyabwenge.

Ibinini by'umweru birambitse ku kibabi cy'icyatsi kibisi ahantu hari isuku heza habugenewe hatari imyanda cyangwa ibindi byatuma hangiza ibyo binini.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibyatsi by'icyatsi kibisi bidashobora gutuma umuntu atambuka, aho akoresha inkoni kugira ngo ace inzira abone aho agenda.

Agasekuru k'ibara ry'umweru gatoya, n'umuhini wako, bikikijwe n'imiti ya gakondo ifasha mu buvuzi butandukanye nk'abarwaye umugongo, ibiheri, amaso, kudakura k'umusatsi.

Icyayi gikozwe mu mutobe w'indimu, tangawizi, ubuki biteretse ku meza y'igiti ku gatambaro k'igitaka keza kagufinya ndetse bisa neza.

Uruganda rwenga inzoga mu mineke rugashyira umutobe mu macupa y'icyatsi cyangwa shokora, bakandikaho amagambo agiye atandukanye kuri utwo dupapuro.

Ikimera cy'ibara ry'icyatsi gifite ururabo rw'umuhondo, kitagira imbuto ahubwo ari icyo kureba gusa, abantu benshi bakunda kubihinga kugira ngo bazane umwuka mwiza mu gace barimo.

Ibimera by'imyanya bikiri bitoya, biteye mu dufuka dutoya tw'ibara ry'umukara, bitondetse neza ku murongo, bifite icyatsi kibisi utubabi dutonya, bifite ubuzima bwiza, inyanya ziryoshya ibiryo kandi zituma umubiri umera neza, iyo uzisize ku ruhu.

Imiti yo kwisiga ivura indwara ikoze mu bimera by'ibara ry'icyatsi, hari ahantu hahinze icyayi n'ishyamba rinini ry'ibiti bigari bikomeye cyane.

Umuganga wa gakondo arakoresha agasekuru k'ibara ry'umweru n'umuhini wako kugira ngo. akore imiti myiza iseye neza, ndetse yoroshye gushyira mu mazi umuntu akayinywa bityo agakira.

Ubuki bwatunganyirijwe mu ruganda ndetse bukanayungururwa n'imashini zabugenewe, buri mu icupa ry'igitaka, handitseho amagambo y'umuhondo, bukoreshwa mu gusiga ku mugati kugira ngo bongere uburyohe ndetse bugakoreshwa nk'aho ari umuti.

Icyayi gikozwe mu majyani meza kiri mu birarahure ku meza y'umweru, ahantu hasukuye kandi haboneye kugira ngo abashyitsi baza baje gusura babashe kukinywa.

Agakombe karimo icyayi n'indimu, ku ruhande isahani iriho uturabo tw'icyatsi na tangawizi biri ku gatambaro kagenewe gushyirwa ku meza, ameza y'igiti asa nk'aho ari igiti kidasizeho verine.

Ubuki busukuye neza bwatunganyirijwe mu ruganda, bukabikwa mu ducupa twabugenewe tw'ibara ry'umweru n'ikirahure, kugira ngo butangirika, bityo abantu bakunda kubugura kubera ubuziranenge.

Amavuta y'uruhu asa umutuku n'umweru yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, hariho ibara ry'icyatsi n'iry'umuhondo n'umukara, akoreshwa mu gusukura uruhu.

Ibicuruzwa by'ubwiza bifasha mu kurinda uruhu kumagara, kuzana ibiheri n'ibindi, biri mu ducupa tw'amabara atandukanye nk'umweru n'icyatsi bikoze mu bikakarubamba.

Ibyaremwe by'ubwoko bugiye butandukanye, bifite ibara ry'icyatsi n'utubabi twumye tw'umuhondo, biri ahantu hari urumuri ruhagije, hagwa imvura nyinshi.

Umuti ukoreshwa mu kwisiga ku ruhu kugira ngo umuntu yirinde ko rukanyarara, kuzana ibiheri, iminkanyari n'ibindi, uri mu gacupa k'ibara ry'umweru n'umutuku, aho koroshye gutwarika wagatwara mu ntoki cyangwa mu gikapu.

Umuti wagenewe kwisigagwa mu ntoki kugira ngo wirinde indwara zagutera izo arizo zose ndetse, uri mu gacupa k'ibara ry'umweru handitseho amagambo y'icyatsi bifasha mu kwirinda.

Indabo z'ubwoko butandukanye iz'umweru, iz'umuhondo iza oranje, iz'icyatsi n'izindi z'amabara atandukanye, indabo zikoreshwa mu gutegura ahantu hagiye kubera imihango runaka, cyane cyane ubukwe, aniveriseri n'ibindi.

Abanyamakuru babiri bambaye imyambaro y'umweru n'umutuku, baje gusura ishyamba ndetse ahantu hari urwibutso, hagaragara yuko hari umwuka mwiza ndetse n'inyoni z'amoko atandukanye.

Imiti itandukanye ndetse ikoreshwa mu buvuzi gakondo, iyo bavura abantu barwaye indwara y'imitsi, iseseme, imyijima, diyabete n'izindi ndwara.

Umuti w'ibara ry'umweru n'umutuku usigwa ku ruhu kugira ngo umuntu akire amahumanani cyangwa ibiheri asubirane uruhu rwiza rudafite uburwayi cyangwa atumva uburibwe.

Amavuta yabugenewe mu kuvura indwara z'uruhu nk'ibiheri, imyate, ibimeme n'ibindi, akorwa mu gikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse akavura n'ibindi nk'ibihushi n'izindi ndwara, ari mu icupa ry'umuhondo yanditseho amagambo y'umutuku.

Amavuta akoreshwa mu kuvura uruhu, izuba rikabije ari mu gacupa k'umuhondo kanditseho amagambo ya shokora n'ayandi ari mu gacupa k'umweru kanditseho amagambo y'umutuku.

Ubwoko bw'ibinyampeke bitandukanye by'amabara y'icyatsi, oranje, umukara, umuhondo, n'umutuku. N'ubuki bufunze mu gacupa keza kabugenewe bituma butangirika.

Ibicuruzwa by'ubwiza bifite amabara atandukanye bikorwa mu byaremwe byinshi harimo karoti, avoka, ibikakarubamba n'ibindi.